Abantu benshi bari hamwe harimo abagore, abagabo, n'abana ,abicaye n'abahagaze, bose bateze amatwi ikiganiro kiri gutangwa n'umupolisi wambaye imyenda y'umukara n'ingofero y'umukara yifashishije igikoresho ndangururamajwi mikoro.

Abahungu batatu bifashe neza bambaye inkweto zifunguye, uwo hagati yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umuhondo, na siripa z'ubururu. Barinze umutekano w'ibikoresho babahaye ngo babirinde, barabirinze neza.

Abasirikare bari kwiruka mu ishyamba n'amaguru. Bambaye imyenda y'iniforume y'umukara, n'ingofero mu mutwe, bafite intwaro mu ntoki. Batonze umurongo bari kwihuta cyane, bagiye gucunga umutekano.

Aba ni abagabo, bahagaze muri kaburimbo, bambaye udupfukawa, harimo abagabo babiri bambaye ibikasite mu mutwe ,n'ibirango bya eyateli, imbere yabo hari umupolisi bari kuvugana, inyuma y'uwo mupolisi hariho imodoka.

Imbaga y'abagabo benshi cyane bambaye imyenda y'umweru, ipantaro, n'ishati, n'ingofero mu mutwe. Bambaye inkweto z'umukara bose zifunze, bicaye ku ntebe kurongo itambitse.

Iyi ni kamera ifite ibara ry'umukara iri gukamerara ahantu hatandukanye. Iriho n'itsinga kandi ni kumanywa.

Abapolisi bari muhanda n'amaguru, bose bambaye ibikasike mu mutwe, ibipfutse mu maso. Barahagaze bacecetse ahantu hamwe, iruhande rwabo hirya hari ibiti birebire bigandaye, bifite ibara ry'icyatsi.

Abahungu batatu bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, bifashe neza. Barinze ibyuma ngo bitabyiba, inyuma yabo hari abandi bicaye mu byatsi, bari kubarebera ibyo barimo gukora.

Abagabo bahagaze impande y'umuhanda, abaporisi n'abasirikare. Bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, barahagaze bari kurindira imodoka umutekano ngo zibone uko zitambuka. Hari umugabo umwe wambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umutuku mu mutwe.

Abagore basigatiye abana bari mu nama bicaye ku ntebe bose bari hamwe. Imbere yabo hari ameza arambitseho agakapu na telefone. Hahagaze umugore ufite imisatsi miremire, arambuye amaboko ari kubaganiriza.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu hamwe bicucitse cyane, bari mu nama bicaye barambirije, bicaye ku ntebe no hasi mu byatsi. Hari abiteze udutambaro abandi ntatwo bafite, bateze amatwi ibyo bari kuganira.

Abagabo n'abagore bicaye hasi mu byatsi bari kumva inama, bambaye imyenda itandukanye hari n'abandi b'abayobozi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, imbere y'abayobozi hari umugabo wambaye ipantaro n'ishati n'ikote ari kuvuga ibibazo bye.

Aba ni abagore n'abana n'abagabo, bahagaze ahantu hamwe, imbere yabo hari abayobozi bari kubaha amabwiriza y'ibyo bagomba gukora.

Inka z'inyambo ziri ahantu hamwe hatuje, zifite amahembe maremare yigonze. Inyuma yazo hari abantu bazishungere bari kureba izo nka, ku buryo uzibonye wese yifuza korora inka bitewe n'izo ari kureba.

Aba babyinnyi bambaye imyenda y'umweru ,bikenyeje n'utundi tw'umutuku. Imbere hari abagore, inyuma hari abagabo , hari n'abandi bari kuvuza ingoma ,abandi barahagaze, inyuma yabo bakikijwe n'ibiti birebire.

Abagabo batatu bambaye mu mutwe imyitero y'umweru ikoze mu mugongo, bafite inkoni z'ibyuma n'amacumu mu kuboko, barabyina bishimye cyane banezerewe, bafite imbaraga zidasanzwe ku buryo ubabonye wese yakwifuza kubatumira mu birori.

Inkono abasaza bifashisha banywa itabi za kinyarwanda. Zifite umuhini uharuye cyane w'igiti, hasi zifite ibara ry'umukara. Hariho akantu k'umwobo bashyiramo igikara bankanywa itabi. Zimwe eshatu zifite ibara ry'umukara, hari n'imwe ifite inkono y'igiti ifite ibara ry'igitaka.

Abagabo bari kubyina bishimye banezerewe, bari imbere y'igipangu cyubakishije imbingo, bari mu mbuga imeze neza cyane ,bari kubyinisha amaguru yabo, harimo umwe uhagaze ari kubaterera ikirenge, wambaye imigara y'imisatsi miremire cyane, afite n'inkoni ayishinze hasi, abandi barahagaze bari kureba uko baratangira.

Abagabo bishimye bameze neza, igice cyo hasi hakaba bakenyeye udutambaro tw'ubururu, hejuru bakaba bambaye ubusa, mu izose bakaba bambaye utundi tw'umweru, bakaba bari kubyina banezerewe cyane, bafite imbaraga, bagaragaza amatuza yabo.

Abagore bameze neza, bari kubyina bishimye, banezerewe, bambaye udusengeri tw'umweru, hasi bakenyeye imishanana y'umutuku, mo hagati hari ibara ry'umweru, bikoreye uduseke banezerewe, dufite imifuniko, bateze amaboko, bari kubyina cyane.

Umukobwa wicaye hasi, wifashe neza, wambayes isaha ku kaboko. Afite imisatsi y'imikara, aboshye neza, yicaye imbere y'igisabo gifite ibara ry'igitaka, kirapfundikiye.

Ni umusaza munini cyane, wambaye imyenda y'umweru, akaba asa n'igikara, afite ubwanwa. Ararakaye, afite amaraso manini n'impanga nini, umusatsi we ni umweru, bigaragara ko akuze cyane.

Abagabo bari kubyina bameze neza cyane barunamye, bategereje ko indirimbo zivuga bunamye bafite amacumu bo yambaye imyitero ibintu bifite imisatsi ikoze ku mugongo, bahagaze ku butaka bumeze neza, iruhande rwabo hari indabo z'umuhondo.

Aba ni ababyinnyi, bambaye amayugi, imishanana y'umweruru. Bikoreye uduseke ku mutwe, inyuma yabo hari ibiti, bari kubyina barishimye.

Umuhanda w'ibitaka ugenderwamo abantu n'amaguru. Iruhande rw'umuhanda hari ibyatsi bigufiya bifite ibara ry'icyatsi. Hari umugabo urimo wikoreye urusimba runini rwasamye, rufite amabara y'umutuku n'umukara.

Ingoma imeze neza ku buryo uyibonye wese yifuza kuyirangarira. Iteretse ahantu hafite ibara ry'umutuku, impande yaho hari amabara y'umweru. Hasi ni ntoya, hejuru iragaye, harambitse uduti.

Abakobwa bambaye amasutiya gusa, bapfukamye ku kirago bari gucunda amata, bamwe bari guseka abandi babumbye iminwa, hejuru bambaye ubusa hasi bakenyeye udutambaro dushwabaguye hasi.

Ahantu hasa n'umukara cyane hari uruziga rwibazemo uduce twinshi cyane ku buryo utatubara. Hari umurongo uhagaritse utambitse ufashe ku rugo ruziga, impande y'urwo ruziga hari agaseke k'igitaka karimo amabara y'umukara gafite umutemeri hejuru.

Ingoma iboshye neza ifite utuntu duhagaritse ifite akantu bayiteruriraho, ku mutwe wayo ufite ibara ry'umweru n'umukara. Harambitse uduti iteretse ku gatebe k'umweru gafite utuntu duhagaritse n'agatambitsemo hagati, iteretse ku mbuga ishije neza.

Amazu menshi cyane asakaje amabati y'umweru, ari ahantu hadakoreye isuku hari ikibuga kinini cyane. Hari abagabo bari kubyina koko bishimye, bambaye imyitero mu mutwe, bafite amacumu bamanitse amaboko.

Igicuma gifite ibara ry'umutuku kibwataraye cyane, hasi kikozwe nk'uruziga. Hejuru gifite akantu kigondoye, muri ako kantu kigondoye hapfundagiyemo ibintu bifite ibara ry'umweru. Biri ahantu heza cyane, hafite isuku, hatekanye.

Ahantu heza hafite isuku hari ibasi ifite ibara ry'icyatsi, harimo indosho zo gutahuza ibiryo iruhande rwazo hari amashyiga ya kijyambere yo gutekeramo,. hari n'ibikapu bimanitse. Hari abantu bari aho ahantu bari kwitegereza ibyo bikoresho bya kijyambere, ukuntu ari byiza cyane.

Inkono ya kijyambere imeze neza y'akabindi. Irabwataraye cyane, mo hagati harimo imirongo itambitse ifite ibara ry'igitaka, ku mutwe wa ko ni gatoya hararangaye. Iteretse ku mashyiga y'umweru, munsi ya yo harimo inkwi, hari gututuka umwotsi uri kuva muri ako gakono ka kijyambere.

Uyu mugabo asa nk'igikara, yambaye ishati y'umweru, afite igiti mu ntoki, agishyize mu kanwa, inyuma ye hari ibiti, afite n'umutsatsi w'umukara.

Izi ni inzu ndangamurage, inini n'intoya, imbere y'inzu nini hari abantu, bambaye imyenda y'umweru, ahantu bicaye hasize irangi ry'umutuku n'umweru.

Iyi ni inzu ndangamurage, mu muryango wayo hari igiti gihagaze, hateretsemo agatebe, hate hateye irangi ry'umutuku, n'umweru, inyuma yayo hari ibiti.

Inzu y'umuco nyarwanda, ifite irangi ry'mukara. Impande y'inzu hari insina ndende zifite amakoma maremare. Hahagaze abantu bambaye imyenda y'umweru, abandi bapfukamye bambaye imyenda y'imikara, bafite utuntu mu ntoki, bitoza kubyina cyane.

Abakobwa batatu bari kubyina bambaye imikenyero y'umuhondo, udusengeri tw'umukara barikubyina, bari guseka baranezerewe bateze amaboko ku maboko yabo bambaye amasaha, mu mutwe bambaye uruhete rw'umweru.

Umusaza wiyambariye nk'abo hambere, yambaye agatambaro gafashe ku rutugu rumwe, kagera hasi kagatwikira ibirenge, ari iruhande rw'ibiti birebire, yibereye mu kazi ke, arahuze cyane.

Abantu benshi bameze neza banezerewe imbere yabo hari ibitoki bifite ibara ry'icyatsi bari kubitonora mo imbere bisa n'umweru bari gutonora baterera mu muvure usa n'umukara barishimye bose barunamye.

I Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, agapira k'umukara n'akajire k'umuhondo. Ahetse agakapu ku rutugu, ari guseka cyane yegamiye inkingi isa n'ubururu, yitegereza ibitanda biri imbere ye birimo utuntu dupfumaguye.

Abagabo bambaye imishanana igice cyo hasi, hejuru mu bituza bambaye ubusa ,mu ijosi bambaye furari mu mutwe biteze udutambaro tw'umweru ,bahagaze inyuma y'ingoma bari guseka cyane baranezerewe, bakoma amashyi, imbere yabo hari umugabo ufite imbaraga uri kubavugiriza ingoma.

Inka z'umuco nyarwanda zirunze ahantu hamwe hameze neza hafite isuku. Ni inka z'umukara zifite amahembe y'umweru yigondoye maremare cyane, afite agacumu hejuru. Hari abantu barimo bari kuzirindira umutekano.

Abagabo benshi cyane bahagaze mu byatsi bya pasiparume. Bahagaze impande y'ikidara gisakaje amabati y'umweru atumbagiye cyane, impande y'ikidara hari imodoka ziparitse za tagisi.

Udusabo bacundira amamata, dufite ibara ry'umukara n'umweru, harimo udufite udufuniko hejuru dufite amacumu, hari n'kinini kigandaye hasi kibyibushye cyane, hejuru kinanutse, kikagera n'akanwa gatoya.

Ibihingwa byiza bifite ibara ry'icyatsi, bifite ikibuno kibyibushye mo hagati bikaba binanutse, biikaba bifite inkondo ifashe ku ishami hirya, ni ibihaza bibiri cyane birashimishije.

Abagore bicaye bari kuboha ibirago, urebye imbere n'urebye inyuma bambaye ibirenge, bose bavanyemo inkweto barahuze cyane, bari kuboha ibirago bifashishije ibara ry'umweru ry'ubudeyi. Hari abicaye ku ntebe babategereje, kugira ngo barebe ko babona ikirago bajyana.

Abagabo bafite umuco bakenyeye udutenge hasi mu bituza bambaye ubusa bambaye udukomo mu ijosi no mu maboko bari guseka barishimye bafite inyogosho ziteye ubwoba bakoma amashyi bareba ibiri kubera hakuno.

Abagabo bicaye ahantu hamwe bafite umuco, bambaye ipantaro na kositimu hejuru, bicaye ku ntebe z'umweru, buri mugabo afite agacuma, karimo umuseke, asoma, aganira na mugenzi we, inyuma yabo hari ibiti bifite ibara ry'umukara

Agacupa gateretse ahantu hafite umucyo hatekanye. Hasi karagaye, mo hagati karabyibushye cyane, harimo amabara y'umukara n'igitaka. Ku mutwe wako karapfundikiye ni gatoya. Kari ahantu hafite isuku ku buryo uhabonye wese yifuza kuhagera.

Aba ni ababyinnyi bambaye imyenda y'umuhondo, biteza udutambaro tw'umweru, bafite imisatsi yumukara, abari inyuma bambaye imyenda y'umweru, n'udupira tw'icyatsi, bari kuvuza ingoma bakabyina.

Indabo ziteye ahantu mu murima, zifite amababi agandaye cyane, agati gasororotse, mu mutwe kikaba gisa n'umweru, amababi yacyo asa n'icyatsi, biracucitse cyane ni byinshi.

Abagore batatu bakenyeye ibitenge, bambaye imipira y'amaboko magufi, bambaye n'amashapule mu ijosi. Bari mu muvure, bari gukama ibitoki, bari guseka barishimye. Iruhande rwabo, hari n'undi mugore uhagaze wambaye agapira k'umutuku n'ijipo y'ubururu, ari kubarangarira ibyo barimo gukora.

Abagore bari kubyina imbyino nyarwanda bari guseka bafite amenyo y'umweru, bafite imisatsi izingazinze neza cyane, bakaba bambaye imishanana n'utubode twayo, basize inzara kuko banezerewe.

Inzu ndangamurage y'umuco nyarwanda yubakishije ibyatsi, hejuru hariho umusaraba. Ni inzu eshatu ziri ahantu hatandukanye, hagati hakaba hari imbuga, iruhande rw'inzu hari ibyatsi byinshi cyane bifite ibara ry'icyatsi n'umukara.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru akenyeye igitenge n'ishati y'amaboko maremare, ashyize inkoni ku rutugu aragiye inka ze, inka ifite amahembe maremare yigondoye, ni nyinshi ziri mu murima w'ibyatsi.

Abahungu babiri b'ibikara bari kurebana barakaye bameze nabi, bafite umutwe utaringaniye umusatsi wabo wogoshe uruhande rumwe. Bambaye amashati y'imyeru afite amakora abaryamyeho.

Abagore benshi bicaye ahantu hamwe; bari kuboha ibyibo, ibitebo. Barikuboha inkoko zifite amabara atandukanye; umutuku, umweru n'umukara. Ibyibo bifite imitemeri izamuye.

Urugi rufite ibara ry'igitaka, hometseho ikindi gifite ibara ry'umweru, hejuru harimo akarongo ku bururu, hariho umuyoboro w'amashanyarazi ugomba gucagingaho terefone u ikayinjiza ku buryo wakozaho ururimi wahitusha.

Urutsinga rw'amashanyarazi rukoze ku kantu k'agacumu rugiye rugonzagonze, rurambitse ku gati gasize irangi ry'ubururu hasi kananutse cyane. Impande y'agati hari icyuma kimeze nka mikoro hejuru kirangaye.

Icyapa gisa n'igitaka, kigaragaza umuyoboro w'amashanyarazi. Hari amabara atandukanye: umweru, umutuku, umuhondo, ubururu, umukara. Hari n'indobo zihateyeho eshatu zifite imikondo hejuru.

Umuhanda mwiza ugaragara neza cyane hariho icyapa cy'umuyoboro w'amashanyarazi, icyo cyapa kikaba gisa n'umukara hakaba hariho utuziga mo imbere harimo ikimenyetso cyo guteranya, hasi hakaba hari agasanduku k'umutuku hakaba hari icyapa cy'umweru kirimo imibare, hasi yatwo hakaba hari utuntu dushinze.

Agakapu gafite ibara ry'umukara mo hagati gafite ibara ry'umweru karambitse ahantu hameze neza cyane, hafite isuku. Ako gakapu karimo insinga z'umuyoboro w'amashanyarazi, insinga nazo zisa n'umukara.

Akuma k'uruziga gafite ibara ry'umweru hasi kabyataraye cyane, mo hagati karabyibushye. Hejuru ni gatoya, gafite umwenda uringaniye. Iruhande rw'ako hari agakarito gafite ibara ry'umuhondo, kabamo insinga z'amashanyarazi. birambitse ahantu heza cyane.

Icyuma kibitse insinga z'umuyoboro w'amashanyarazi, gifite ibara ry'umweru, kikagira utuntu dukoze mpande eshatu dufite ibara ry'umukara, giteretse ahantu heza cyane hasa n'igitaka. Mo hasi harimo insinga giteretseho gishinze gihagaze.

Inyubako yubakishije ibyuma bifite ibara ry'umweru, ibihagaritse n'ibitambitse. Kuri ibyo byuma hari kugendera abantu bambaye inkweto zifunze bari kugenda n'amaguru, hariho n'ibara ry'umuhondo ry'ibi byuma.

Inyubako yubatse itambitse ifite amabara y'umweru n'igitaka n'ubururu bivanze iri impande y'umuhanda wa kaburimbo, iruhande rw'inzu hari ibiti birebire cyane n'igiti kihashinze cy'ipoto.

Iyi ni inzu y'ubwami bwa Yehova, iteye irangi ry'umweru, ifite amadirishya y'umukara, hejuru ifite n'itara ry'umweru, imbere yayo hari indabo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ryiza bari kwiga, bambaye inifome, amashati y'umweru na karuvati, imipira y'ubururu ifite amabara y'umweru ku maboko, barangariye mu makayi, bari kureba ibyo mwarimu yabigishije.

Abanyeshuri bari ku ishuri bambaye inifomu ijipo y'umukara, n'ishati y'umweru, barishimye baranezerewe bari kugenda mu muhanda n'amaguru, ishuri risakaje amabati y'ubururu.

Inzu yubatse neza itambitse. Ifite imiryango y'ubururu, hejuru y'umuryango handitse igikoni. Isakaje amabati y'ubururu icurikiye inyuma, imbere y'inzu hari inkingi zifashe ku mabati.

Inyubako nziza imeze neza cyane, yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya afite ibara ry'umweru, hejuru y'amadirisha hari umurongo utambitse uzengurutse inzu yose usa n'umweru, amadirishya n'ibirahure, isakaje amabati y'umutuku. Inyuma hari izindi nzu imbere yazo hari umuhanda n'ibyatsi byinshi cyane.

Inyubako yubatswe itaringaniye, inzu ziri hasi n'iziri hejuru ku musozi, zisakaje amabati y'umutuku, zifite irangi ry'umweru, mo hagati hari inzira nini cyane irimo abantu bagenderamo n'amaguru.

Ibikorwa remezo bimeze neza, hari umuhanda ukozwe neza cyane, iruhande rw'umuhanda hari ibyatsi by'ikibuga byinshi cyane biteyemo indabo z'umutuku, hari inzu zifite ibara ry'umweru zisakaje amabati y'ubururu, ni inzu zimeze neza imbere yazo, haparitse imodoka isa n'umukara.

Inzu nyinshi cyane zubakishije amatafari ahiye. Zubatswe ku murongo umwe, zisakaje amabati y'umutuku, mo hagati hakaba harimo akarongo k'umweru. Imbere y'izo nzu hari ipoto ndende ifite insinga ziyoboye ahantu hatandukanye. Hari abantu bahagaze impande y'inzu, imbere y'inzu hari umurima urimo uteretsemo umufuka w'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ugenderwamo imodoka, hasizwe irangi ry'umukara n'umweru. Iruhande rw'umuhanda hari utuntu tw'umukara twubatswe mu matafari, hari n'inyubako ndende y'ibiti bitaringaniye neza.

Iyi ni inyubako igeretse ifite ubusitani burimo indabo, hariho n'abantu bari kugenda haparitse n'imodoka, hariho n'abantu bambaye imyenda y'ubururu n'udupira tw'umweru bahetse n'ibikapu.

Iyi ni inzu isize irangi ry'umukara. How ejuru y'umuryango hari umusaraba w'umweru. Imbere y'inzu hari imbuga nini. Impande yayo hari igiti kirekire kigandaye.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, igasakazwa amabati y'umweru. Impande y'inzu hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye umuronko hagati y'umuronko n'undi harimo uduti duhagaritse n'udutambitse. Impande y'inzu hari ibiti birebire cyane bifite ibara ry'icyatsi.

Inyubako nziza imeze neza ifite ibara ry'umweru, isakaje amabati y'umutuku. Imbere y'iyo nzu hari umuhanda umeze neza ufite ibara ry'umweru haparitsemo imodoka z'umweru, imwe ireba imbere indi ireba inyuma. Impande y'uwo muhanda hari ibyatsi bigufi bigandaye cyane ku buryo wabyugamamo izuba.

Inyubako imeze neza cyane, ni amashuri menshi ku buryo utabura ishuri wigiramo, haparitse imodoka zifite ibara ry'umweru, n'inzu zisakaje amabati y'umutuku hakurya no hakuno mo hagati hari ikibuga kinini cyane.

Inyubako yubatswe itaringaniye, ifite ibara ry'umukara, hejuru ku muryango hari umusaraba, hari imitako myiza cyane ifite ibara ry'umweru. Ifite amadirishya yigonze mo hagati harimo utuntu dutambitse.

Amashuri yubatse mu gishanga, asakaje amabati y'ubururu n'umutuku n'icyatsi. Hagati y'inzu n'indi hari indabo ngufiya zifite ibara ry'umuhondo, n'ibiti birebire bifite ibara ry'umukara.

Inzu ebyiri ziri hejuru y'umukingo, indende n'ingufi. Inzu ngufiya isakaje amabati y'umweru, indende igasakazwa amabati y'umutuku. Kugira ngo uzigereho ni ukubanza wurira udusikariye. Imbere y'inzu ngufiya, hari abana bahagaze batonze umurongo, bari kwitegereza iyo nzu uko yubatswe.

Inyubako yubatswe itaringaniye, hasi yubakishije amatafari ahiye n'amabuye. Hejuru hari ikindi gipangu kihubatse kimeze nka supanete, hari abantu benshi bahagazeho abagore n'abagabo. Iruhande rwayo hari ibara ry'ubururu, hari n'umuhanda wo kugenderamo.

Umuhanda wubatse neza ushimishije, ku buryo uwubonye wese yifuza kuwugenderamo, mo hagati harimo ibara ry'umuhondo, impande yawo ku ruhande hubakishije amatafari y'umweru n'umukara, hari n'igiti k'ipoto gifite itara hejuru, iruhande rw'umuhanda hakikijwe n'ibiti birebire cyane.

Inzu yubatse itambitse, ifite inzugi z'umweru. Urugi ruriho iselire, isakaje amabati y’umutuku. Imbere y’inzu hari imbuga nini cyane ifite ibara ry’igitaka.

Umuhanda mwiza uri kugendamo abagabo abagore n'abana, abagabo bambaye inkweto z'icyatsi hari icyapa cyanditseho welikamu tu gurupe sikorere Kampanga, hari inyuma yacyo hicaye abantu hari n'abahagaze, bari gusoma amagambo yanditse kuri icyo cyapa.

Inyubako y'urusengero rumeze neza cyane, rufite agasongero hagati, agasongero gafite umusaraba hejuru rusakaje amatati y'umutuku rufite ibirahure bifite utwenge dutambitse, imbere yabwo hicaye caye abantu benshi cyane bambaye imyenda itandukanye.

Abantu benshi bari kwambuka ikiraro. Hari abambaye agapfukamunwa abagore n'abagabo. Imbere hari umugore wambaye agapira k'umukara imbere gafite ibara ry'umweru. Impande y'ikiraro hari amabara umuhondo n'umutuku.

Inyubako imeze nabi cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo uyigezemo utabona uko usohoka. Hari abantu benshi bayirimo hirya babuze uko basohoka ngo bagere hino, abandi bari imbere mu kinani bari kubarangarira, ngo barebe ko babona uko bavamo.

Inyubako zimeze neza cyane, zubatswe zitaringaniye, zisakaje amabati y'umweru ,zigagwa irangi ry'umweru, hari n'indi isize irangi ry'umukara, imbere yayo hari umuhanda ugendwamo abantu n'amagare, hari uyicayeho uri gutware igare ,hagati y'izo nzu hari ifoto y'umweru ifite amatara abiri hirya no hino.

Inyubako yubakishije imbingo. Imbingo zifite ibara ry'umweru, inyuma y'inyubako hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi, imbere ya yo hari ibiti bitambitse bidakoze umurongonko neza ugororotse.

Abantu benshi bari hamwe abahagaze n'abicaye. Abahagaze bambaye imyenda ya uniforme zisa n'icyatsi, bashize amaboko inyuma. Abicaye bambaye amakote y'umukara n'amarinete, imbere yabo hari ameza ariho ibitabo n'i icupa ririmo amazi.

Aba ni abagore n'abagabo, baricaye ,abandi barahagaze, bakikijwe n'ibiti, hariho umugore ufite mikoro.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, igizwe n'abagore n'abagabo. Abicaye hasi, abicaye ku ntebe. Harimo umugabo uri kubaremesha inama bakumva ibyo ari kubabwira, bakamushimira bakoma amashyi. Hari n'undi uri kwandika ibyo ari kuvuga.

Abantu benshi bicaye ku ntebe bari mu nama, imbere yabo hari indabo z'umuhondo, hirya yabo hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi, hari abahagaze mu mpande zose iburyo n'ibumoso.

Umuhanda nyabagendwa ufite ibara ry'umukara. Iri kugenderamo moto y'ubururu, ifite ibyuma hejuru n'ibirahure byo kureberamo. Itwawe n'umukobwa wambaye ipantaro y'umweru, agapira k'umweru n'ingofero. Inyuma ya moto hari abantu bahagaze bareba iyo moto ukuntu iri kugenda.

Umuhanda udakoze neza urimo ibyatsi bito bito, hari umugabo uri gutwara moto ifite ibara ry'ubururu n'ipine rifite ibara ry'umukara imbere, yambaye inkweto zifunze n'ipantaro yayikoboyi, n'ikote rifite amaboko maremare, n'ingofero mu mutwe ari guseka aranezerewe.

Umuhanda wa kaburimbo igenderwamo imodoka nyinshi izamuka n'izimanuka. Ku nkengero uyu muhanda wa kaburimbo hari ibiti birebire bifite ibara ry'umuhondo, hari n'inzu z'inyubako zihubatse. Hejuru yazo hariho n'amatara.

Igare rimeze neza cyane, riri mu muhanda wamaguru. Rikagira intebe nziza, inyuma rifite utuntu dushabaguye, rikagira agati gatambitse kariho ibara ry'umuhondo n'akamaniye gasa n'umukara. Imbere rikagira amahembe yo gufatiraho n'ikirahure cyo kwireberamo.

Iyi ni bisi iri impande y'inyubako ndende irimo abantu, imbere yayo hari umugabo uhahagaze ifite amabara y'icyatsi n'umukara.

Umuhanda mwiza ukoze neza, hari imodoka nyinshi nini n'intoya, imodoka zifite amapine menshi avanze amabara umukara n'umweru, mo hagati y'imodoka n'indi hariho agati gafite amabara y'umutuku n'umweru.

Umuhanda mwiza umeze neza wa kaburimbo, ufite ibara ry'umukara. Hagenderamo moto. Abantu bari kuzitwara bambaye umupira w'umutuku hari n'abandi bari kugendamo n'amaguru.

Umugabo ubyibushye wambaye ikote ry'umukara, rifite ikora riryamye ku ijosi, rikagira n'amaboko maremare, ari guseka cyane aranezerewe, kubera ari gutwara imodoka, nta musatsi afite yari yogoshesheje.

Umuhanda usa n'umukara, urimo abantu bari kugenda n'amaguru, abagore bahetse abana bafashe amabase mu ntoki, impande y'umuhanda hari imodoka ifite ibara ry'icyatsi, imbere y'imodoka hari inzu isakaje amabati y'umutuku.

Umurima w'ibihingwa by'ibirayi bireze igare rigiye kubitwara, bipakiye mu mufuka w'umweru, mu mpande ufite ibara ry'umuhondo, igare rihagaze impande y'umufuka mu murima, urimo amabuye n'ibyatsi byinshi cyane.

Inzu yubatse itambitse isize irangi ry'umukara, ifite amadirishya afite uduti dutambitse n'uduhagaritse, mu muryango hari umukobwa urimo uhagaze wambaye ijipo y'umukara n'agapira k'umutuku ufite umusatsi mukeya. Imbere y'inzu hari umuhanda urimo igare ryicayeho umuntu w'umugabo, wambaye ipantaro y'ikoboyi, agapira k'umuhondo n'inkweto zifunze.

Abanyeshuri bagiye mu rugerero bafite ibipikapu na matola, baragenda mu muhanda ku gicamunsi n'izuba riri kuva.

Imodoka nziza zifite ibara ry'umweru, amapine y'umukara no hagati hari utuziga dufite ibara ry'ubururu, inyuma y'imodoka hari ibiti bigufiya cyane, hari n'amapoto afite insinga zigiye ahantu hatandukanye, imodoka zihagaze muri kaburimbo imeze neza cyane.

Uyu ni umugabo, yicaye kuri moto, yambaye agapira k'ubururu, yambaye na ga mu ntoki, akaba yambaye n'isaha ku kaboko.

Abantu benshi cyane, abagore, abagabo, abana n'abanyeshuri bahetse udukapu bagiye ku ishuri. Bari gutega imodoka ihagaze muri kaburimbo, ifite irangi ry'umutuku n'umweru, ngo bayinjiremo bajye ku ishuri.

Umuhanda nyabagendwa uhagazemo abantu benshi, imodoka ifite ibara ry'umweru inyuma hari puranke, bambaye imyenda y'umukara abantu bahagaze, n'udupira tw'umweru, bategereje imodoka baragenderamo.

Iyi ni imodoka, iri kugenda mumuhanda, ni nijoro, amatara ari kwaka, n'imvura iri kugwa, imbere yayo hari umugabo uri kugenda mumuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibyatsi bigufi. Impande y'umuhanda hari inzu, hagati mu muhanda haparitsemo imodoka ebyiri, iya tagisi, na vatire. Imodoka ya tagisi ifite amabara y'umweru n'icyatsi bivanze.

Abana ni abahungu bambaye imyenda y'umuhondo. Yanditseho nimero zitandukanye zandikishijwe ibara ry'ubururu. Bambaye amasogisi n'inkweto zifunze bifashe mu gituza.

Abakobwa bari mu muhanda n'amaguru birukanka cyane, bambaye inkweto zifunze bari muri siporo, ni abakobwa batatu buri mukobwa afite balo ,buri wese ayifatiye iruhande rw'iburyo, bose bafite imisatsi izingazininze, inyuma yabo hari amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umukara.

Aba bantu bari muri siporo, babiri bari imbere bambaye imipira y'imyeru, abandi bambaye imipira y'imihondo, umwe yambaye ingofero, undi yambaye agapira k'umuhondo.

Imbaga y'abantu benshi bahagaze mu kibuga bari hamwe bafatanye ku rutugu, hari abambaye amakabutura y'umutuku n'udupira tw'umutuku. Abandi bambaye imipira y'icyatsi n'amapantaro y'ubururu, bose bambaye inkweto zifunze barangariye ibiri kubera hakuno.

Abantu bari muri siporo bambaye amakabutura n'imipira migufi, ingofero mu mutwe z'umweru, inkweto zifunze. Bari kwiruka cyane bari gushaka gukurura umupira warenze ngo bawiyegereze, hari n'abandi bahagaze bari gukina utwamaguru.

Iki ni igikorwa remezo gikikijwe n'imbaho kiriho urwego, hejuru hariho utwuma gifite n'ibara ry'ubururu ,inyuma yacyo hari ibiti birebire.

Umupira twifashisha turi muri siporo, ufite amabara atatu. Umuhondo, ubururu, umweru. Uteretse ahantu hasi ku butaka, hafite ibara ry'umukara. Hategereje uwawukina.

Abahungu batandatu bose bambaye imyenda isa, udukabutura dutoya, n'imipira y'amaboko magufi, n'ingofero mu mutwe, bicaye ku magare, bose bagiye muri siporo, bari imbere y'inzu ndende, yanditseho Afurika risingi senta.

Aba ni abantu bambaye imyenda y'ubururu abandi bambaye iy'umweru, imbere yabo hariho uwambaye umupira w'icyatsi n'ikabutura y'ubururu bari kwiruka basiganwa.

Umugabo uri muri siporo wambaye imyenda y’imikara, asa n’inzobe, ateruye icyuma ari kugishyira hejuru. Iruhande rwe hari abandi bari kumushimira, bari kumwogeza bakoma amashyi, abagore n’abagabo bari guseka, bishimye cyane.

Umuhanda umeze neza cyane, urimo abantu bari kugenda n’amaguru, biruka cyane, bari gusiganwa n’igihe, barebera ku masaha, hari n’abandi bahagaze barangariye amabara: ubururu, umutuku n’umuhondo.

Abagabo babiri bambaye amakabutura n'udupira inkweto zifunze, bahagaze mu kibuga gifite ibara ry'umutuku, bari muri siporo imbere yabo hari icyapa gifite ibara ry'ubururu, inyuma yacyo hakaba ibiti birebire cyane.

Abagabo bari mu muhanda wa kaburimbo bari muri siporo, bari ku magare bihuta cyane, impande yabo hari abana bahagaze bari kubarangarira, bari kubogeza cyane basakuza, bishimye, baseka.

Abantu benshi cyane bari muri siporo bambaye imyenda ya siporo, hari abamanitse amaboko batatu bashaka kumanura umupira wa ballot wagiye hejuru ifite ibara ry'umuhondo. Hari n'abandi bahagaze n'abicaye babarangariye ukuntu umupira barawumanura.

Abahungu benshi bari mu kibuga cya siporo, bafite umupira mu ntoki bari gukina abandi bakinow'amaguru, hari abicaye bari kurangarira ukuntu bari gukina, impande yikibuga hubakishije ibara ry'umutuku, inyuma ykibuga hari ibiti birebire bigandaye.

Abantu benshi cyane bicaye inyuma y'ikibuga abagabo, abagore, n'abana, barangariye umukino wa siporo. Hari abakobwa babiri bari mu kibuga, umwe afashe baro ari kuyicengana n'undi umwe ashaka kuyimwaka. Iruhande rw'ikibuga hari uhahagaze ari kubafotora uko bari kubigenza.

Abakobwa benshi babana n'ubumuga bambaye inifomu amakabutura y'ubururu, imipira y'umweru. Bari muri siporo bambaye inkweto zifunze n'amasogisi maremare afite ibara ry'icyatsi, imbere yabo hari umupira wa ballon bagiye kuwutera amaguru.

Abantu bari guseka banezerewe bagiye mu mukino wa siporo. Umwe yambaye agapira k'umuhondo, undi yambaye agapira k'ubururu gafite n'ikirangantego. Bafite indobani mu ntoki barakoresha bari gukina umupira. Inyuma yabo hari n'abandi bahagaze bari kubarebera. Bahagaze ahantu hameze neza hafite ibara ry'umweru.

Abagabo benshi bari mu kibuga bari mu mukino wa siporo, hari umugabo wambaye agapira k'ubururu n'agakabutura k'ubururu afashe umupira wa balo ifite ibara ry'umutuku n'umweru . Afite umusatsi mwinshi cyane ari guseka aranezerewe, inyuma ye hari abandi bari gushaka kujya gufata balo , n'abandi bamurangariye cyane.

Abahungu babiri bari mu muhanda mwiza cyane, ufite uturongo tw'umukara n'umweru. Bicaye ku igare bari kwirukanka cyane, bafite umuvuduko mukeya uringaniye. Bambaye ingofero z'umweru, bari ku magare afite amahembe manini.

Umukobwa usa n'inzobe ufite amenyo y'umweru uri guseka cyane yambaye akagofero k'ubururu n'amataratara mu mutwe. Yambaye agasengeri ibituza bye biri kugaragara n'ibitugu, afashe kuri senta muri siporo ari ahantu hafite umuco hameze neza.

Abantu bambaye inifomu bahagaze hamwe mu muhanda, bambaye amapantaro y'ubururu n'imipira, inkweto z'umweru n'ingofero z'ubururu, harimo umwe wambaye umuhondo, hari n'undi uri kwirukanka bigaragara ko yakererewe muri siporo. Umwe ari kubatoza, mu mugongo handitseho nimero mirongo ine na kabiri, amanitse amaboko.

Aba bantu bicaye mu modoka mo imbere, bambaye ingofero z'ubururu, harimo n'uwambaye amarinete, arahagaze.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, bambaye imyenda y'nifomu n'inkweto zifunze. Bahagaze ku kumurongo, umwe imbere undi inyuma, imbere ya bo hari ibyuma, impande ya bo hari ibiti birebire cyane bikuze.

Abantu benshi cyane bari muri siporo, bambaye imyenda y'ubururu, umutuku, umuhondo. Hari abagabo batatu bari kurwanira umupira wa baro uri hejuru, umwe yambaye icyenda undi karindwi, bose bari kurwana bamanitse amaboko cyane.

Abagabo babiri bagiye muri siporo, barahuye bari gusuhukanye, baranezerewe, bambaye amakabutura y'umweru, n'imipira y'umweru, n'inkweto zifunze, umwe yambaye inkweto zifunze, n'amasogisi y'umweru, imisatsi ye irazinze, undi yambaye inkweto zifunze, n'amasogisi y'umukara, yambaye ingofero y'umweru mu mutwe.

Aba bantu bari mu kibuga bambaye imyenda y'ubururu, imipira iriho ikirangantego cya siporo, imisatsi itandukanye, barishimye kandi bose ni abagabo.

Ikibuga cyo gukoreramo siporo gifite ibara ry'ubururu, iruhande rwacyo hari amabuye asa n'umweru, gikikijwe n'utuntu dutoya tw'utubingo dukase neza, no hagati hari ibiti birebire cyane, bigandaye, bifite amababi matoya.

Iduka ricuruza imyenda ya siporo, imipira n’inkweto. Hari abagabo babiri bahagaze muri iryo duka, bambaye imyenda y’ubururu, bari gusuhukanya baganira, bafashe imipira mu ntoki ya siporo bagiye kugura.

Inzu zubatse zitaringaniye, izigiye hejuru n'izigiye hasi, inyuma yazo hari urutoki rufite amakoma afite ibara ry'icyatsi. Hari inzu igiye hejuru, yubakishije amatafari ahiye, impande yayo hari itara rirerire.

Umurenge wubatswe neza ufite isuku nziza, uri ahantu hegereye umuhanda, umuhanda wa kaburimbo usa n'igitaka, mo hagati harimo akarongo k'umweru kagaragaza aho abantu bagomba kunyura, n'aho imodoka zanyura kugira zigere kuri uwo murenge.

Umuhanda ukikijwe n'ibiti birebire cyane, iruhande rw'ibyo biti hari indabo z'umuhondo. Muri uwo muhanda hari n'abantu bari kugendamo n'amaguru, umwe yambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'umweru. Undi akambara umupira w'umutuku n'ipantaro y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibara ry'umukara ugenderwamo imodoka. Iruhande rw'umuhanda hari inzira ikoze neza, yubakishije amatafari, igendwamo abantu n'amaguru.

Umuhanda wa kaburimbo usize irangi ry'umukara, mo hagati hakabamo akarongo k'umuhondo, impande y'umuhanda hubatse inzu nyinshi cyane, zifite inzugi z'ubururu, zigasigwa irangi ry'umweru.